Umugore ukenyeye igitenge yambaye ishati y'amabara, ateze igitambaro mu mutwe, avuye ku mugezi kuvoma amazi, yikoreye indobo itukura ku mutwe irimo amazi, atwaye indobo y'umuhondo mu ntoki irimo amazi.

Abagore babiri bambaye ibizibaho by'amabara, bunamye ahantu ku mugezi ku ivomero, barimo barakaraba intoki bakoresheje amazi meza, umwe muri bo arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza, imbere ya buri wese hateretse ijerekani nini yazanye kuvoma, imbere yabo kandi iruhande rwabo hari umuntu uri kubareba.

Umubyeyi ateruye umwana we w'uruhinja bari kwa muganga, yagiye kuvuza umwana we urwayi bamaze kubonana na muganga, muganga arimo arasuzuma umwana cyane cyane yibanda ku gice cy'umutwe.

Abana babiri b'abakobwa bari ku ivomero bamaze kuvoma amazi mu ndobo y'icyatsi kibisi, umwe muri bo arimo aragerageza gukorera mugenzi we amazi kugira ngo ayamukorere ku mutwe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bazindukiye kwa muganga bahetse abana babo b'impinja ndetse bashoreye n'abandi bana b'incuke, baje kwa muganga gusabira abana babo uburyo bwo kubona indyo yuzuye.

Ku muhanda ahubatse ivomero ryegerejwe abaturage hari abavomyi benshi batondetse amajerekani ku murongo baje kuvoma, barimo baragenda bavomera buri jerekani kugira ngo babone amazi bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu ku mugezi hari umwana waje kuvoma amazi ayavomera mu majerekani asa n'umuhondo, uwo mwana yambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'amaboko magufiya usa n'umweru, barimo kumufata amashusho bigaragara ko yishimye kubera ko afite akanyamuneza mu maso. Inyuma y'iryo vomero hari ibyatsi birimo urubingo ndetse n'insina n'ibindi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bamwe bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, abandi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, bambaye n'ingofero mu mutwe zifite ibara ry'umweru, bahagaze ahantu munsi y'igiti barimo barabafata amashusho bafashe igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, avuga ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri.

Imifuka myinshi ibitsemo ibyo kurya, iruhande rw'iyo mifuka hahagaze abagore babiri bambaye imyenda y'ibitenge, ndetse bateze n'ibindi bitenge mu mutwe, harimo n'umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu, uko ari batatu bari kugerageza guterura umufuka umwe muri iyo mifuka, bashaka kuwukorera umwe muri bo.

Abanyeshuri biganjemo ab'abahungu n'umukobwa umwe, bambaye impuzankano y'ishuri, bari ku mugezi, bagiye kuvoma amazi, bayavomera mu ndobo, zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore n'urubyiruko, bakora mu bintu by'ubuhinzi, bitabiriye igikorwa cyo gutera imboga ku karima k'igikoni.

Inshinge kwa muganga bazifashisha mu gufata ibizamini by'abarwayi, ndetse bakanazikoresha mu gutanga inkingo, bakingira abaturage indwara zandura n'izitandura.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo n'abagore, bakoze ishyirahamwe ry'ubuhinzi, barimo barabafata amashusho bafashe ibipapuro, byanditseho amabwiriza n'amahame bagenderaho.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bakiri batoya n'urubyiruko bakoraniye ahantu baje gushaka igikorwa cyo gukingirwa icyorezo cy'indwara ikwirakwira binyuze mu buryo butandukanye, aho hantu baje gukorera icyo gikorwa hamanitse ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abana babiri b'abahungu bari imbere y'umuryango iwabo, umukuru muri bo yambaye agakabutura k'umuhondo n'isengeri y'umukara, arunamye agiye gutangira koga afite isabune mu ntoki, agiye kogera mu ndobo isa n'ubururu ifite umukondo w'umweru, imbere ye hahagaze murumuna we wambaye agashati k'igitenge n'agakabutura k'amabara, arahagaze yambaye udukweto dufunguye afite rozwari mu ntoki agiye kumusukiramo amazi.

Ahantu ku mugezi hari umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'icyatsi kibisi, arimo arakaraba intoki akoresheje amazi atemba anyuze mu mugezi, iruhande rwe hari indobo ifite ibara ry'ubururu.

Kwa muganga hari ababyeyi benshi b'abagore, baje bambaye neza, bambaye imyenda ifite isuku, boze, buhagiye n'abana babo b'impinja, babukereye; baje guteza abana babo urukingo.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite ibikombe mu ntoki, barimo baravomeramo amazi bakoresheje ivomero riteretse ku meza ari imbere yabo, bishimye cyane babonye amazi hafi.

Ahantu ku mugezi hari urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma amazi, harimo abagore babiri bari guterura indobo, umwe ashaka kuyikorera mugenzi we, ni umugezi bigaragara ko wubatswe n'ikigo cyita ku mpunzi, nkurikije ijambo ryanditse ku rukuta rw'uwo mugezi riri mu ibara ry'ubururu risobanura ikigo cyita ku mpunzi.

Kwa muganga mu ivuriro, hari umubyeyi utwite, umuganga, ndetse n'umurwaza, bose bambaye udupfukamunwa, uwo mubyeyi utwite bamuryamishije ku gitanda, muganga yamurambitseho akuma kunda, yashyizeho amatwi arimo arumva uko umwana arimo atembera mu nda, cyangwa se niba ameze neza mu nda.

Kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Mayange, urugaga rw'abaganga, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'akazi n'amakarita y'akazi, bafite ibyishimo byinshi, basuwe n'umushyitsi w'Umuzungu, bamwakirije amashyi menshi, impundu banabyina, biragaragara ko bishimye cyane bamwishimiye.

Ahantu hakoraniye imbaga y'abantu benshi cyane bari mu bukangurambaga. Ni abantu benshi bicaye ku ntebe bakoze ikizeru, rwagati muri bo harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, arimo arabaha ubukangurambaga, ari kubaremesha inama.

Kwa muganga hari umurwayi w'umugore waje kwivuza, yamaze kubonana na muganga, ari umurwayi ndetse na muganga bose bambaye udupfukamunwa, muganga arimo aratera umurwayi urushinge ku kuboko, ariko uwo murwayi arijimye mu maso arimo ararira, biragaragara ko afite uburibwe buri guterwa n'urwo rushinge.

Abantu benshi bambaye neza cyane kandi bafite isuku barimo barafata ifoto, abari imbere bicaye ku ntebe ndetse abandi bahagaze, babahagaze inyuma barimo barabafata ifoto.

Ahantu ku ivomera ku mugezi, hari urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma amazi, batondetse amajerekani ku murongo, barimo baravomera imwe imwe bahereye ku murongo, bakurikije uwahageze mbere.

Ahantu ku mugezi hari abana babiri b'abahungu, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye imyenda y'amabara. Barimo barakaraba intoki bakoresheje amazi atemba anyuze mu itiyo.

Kwa muganga umusaza w'imvi zabaye uruyenzi, yicaye ku ntebe yambaye ingofero mu mutwe. yabonanye n'umuganga, umuganga yambaye imyenda y'akazi arimo gukoresha igikoresho cyabugenewe, apima uwo musaza umuvuduko w'amaraso.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda y'amabara atandukanye n'ab'igitsina gitandukanye, harimo abakobwa n'abahungu b'urubyiruko, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, bari gufata ifoto y'umunsi basoje amahugurwa, bari bari guhugurwa ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe imwe, imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima w'umugore na we wicaye ku ntebe, ufite igikarito mu ntoki, imbere yabo rwagati muri bo hateretse intebe itagize umuntu uyicayeho irambitseho ikayi barimo baraganira.

Umugabo muremure wambaye neza cyane, yambaye ipantaro y'umukara, ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati, yambaye amadarubindi, ahagararanye n'umwana w'umukobwa w'umunyamahanga, mukuru, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru, ufite uruhu rwera, barifata amashusho bafite igikapu cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ngo sura u Rwanda.

Umubyeyi w'umugore udashaje cyane, akenyeye igitenge cyiganjemo amabara y'umutuku, yambaye umupira w'imbeho, n'ingofero mu mutwe, yagiye kuvomera kuvoma. Ni ahantu ku muhanda. Hakurya ye hari umurima urimo imyaka, hamanitse n'icyapa ku muhanda. Yagiye kuvoma, aho Leta yabegereje amazi meza asukuye, kugira ngo bajye bayabona hafi, batagombye kujya mu kabande.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, harimo umujyanama w'ubuzima, n'umugore wambaye agapfukamunwa n'umupira ufite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, n'ipantaro y'umweru. Inyuma yabo, hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abana benshi bari mu kigero kigiye gitandukanye bagiye ahantu munsi y'umusozi mu kabande, bagiye kuvoma, bavomera mu majerekani, harimo umwana umwe w'umukobwa wambaye akagutiya k'umutuku n'agapira k'icyatsi kibisi cyerurutse n'udukweto tw'icyatsi kibisi, harimo n'undi mwana umwe mukuru w'umuhungu wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'igitenge n'utundi twana duto.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, bamwe bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, abandi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, na ho abandi bambaye imyenda igiye ivangavanze, barahagaze bari kubafata amashusho, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Abagore benshi bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, bose bakenyeye ibitenge bahagaze imbere y'inzu barimo barabafata amashusho.

Abana batatu b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bafite akanyamuneza barimo baraseka, bari ahantu hari imigezi itatu bagiye gukaraba intoki kugira ngo hanozwe isuku, bityo indwara zikwirakwizwa n'umwanda zigabanuke.

Abana bane b'inkurikirane, bari kumwe na se arimo arabakarabya intoki, ise afite igikombe kirimo amazi arimo aragenda abasukira ku ntoki amazi agwa mu ibasi iteretse munsi y'intoki z'abana, abo bana barimo baraseka cyane, bari kubafata amashusho.

Kwa muganga umubyeyi yagiye gukingiza umwana we, muganga yamaze kumuha urukingo yamuteye urushinge ku kuboko arimo aramwomekaho udupamba dutuma amaraso adakomeza kuva.

Ahantu ku mugezi, hari abantu baje kuvoma amazi, harimo umuntu umwe ufashe ijerekani y'umuhondo, arimo arayivomera, amazi atemba anyuze mu itiyo, ni ahantu ku mugezi, umugezi wubakiye, hari n'abandi bana baje kuvoma, bategereje amazi.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi kibisi, akenyeye n'igitenge kirimo amabara y'umutuku, ahetse umwana mu gitenge, igitenge yagishumikiye mu ijosi, arimo aroza ibikoresho ari ahantu ku ivomero, ari koza umupfundikizo w'indobo, umupfundizo usa n'umutuku, indobo isa n'umuhondo, iruhande rwe hateretse iyindi indobo isa n'umutuku n'izindi zifite umufuniko w'ubururu.

Ahantu ku mugezi, hari abana babiri baje kuvoma, hari umwana umwe mutoya, arimo araseka, biragaragara ko bari kumufata amashusho, ari kuvoma amazi ayavomera mu kajerekani gafite ibara ry'umuhondo, ayo mazi arimo aratemba anyuze mu itiyo, hari undi mwana mukuru wambaye agashati k'umweru n'agakabutura k'umukara, arimo arakoresha igikoresho cyabugenewe, asunika amazi.

Ahantu mu rugo, hari umukobwa wicaye, arimo aravomera amazi mu ijerekani, amazi ayavoma ayakura ku mugezi uteye mu rugo, ari kuvomera mu ijerekani isa n'umuhondo, iteretse mu ibasi zigerekeranye zifite ibara ry'ubururu.

Ahantu ku kigo nderabuzima hari abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga w'ubuforomo n'ubuforomokazi, bambaye amakarita y'akazi, imbere yabo hari ameza arambitseho udukarito tubitsemo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, barimo barabafata ifoto, biragaragara ko bari bafata ifoto kandi bishimye.

Ni ahantu habereye inama, ni inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, ni ahantu hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, cyanditseho amabwiriza agomba gukurikizwa kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo cya Marbug, ni icyorezo cyadutse mu Rwanda, gitangirira mu Mujyi wa Kigali, cyadutse mu mwaka w'ibihumbi biri na makumyabiri na kane, mu kwezi kwa cumi.

Umugabo udunamye ku mukeka wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara' numupira usa n'itafari rihiye, yambaye n'amadarubindi, yahagaritse umwana ku munzani. Uwo mwana yambaye umupira usa n'itafari rihiye n'ipantaro y'ubururu n'udusogisi turimo amabara. Iruhande rw'umunzani harambitse terefone, inyuma yabo gato hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umukara ugaragara igice cyo hasi gusa wambaye n'impeta ku rutoki.

Abantu benshi bambaye neza, biganjemo abagore bafite imisatsi miremire, bari mu nama, imbere yabo hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, barimo babakoresha inama, bafite n'indangururamajwi bari gukoresha kugira ngo ijwi ribashe kugera kuri buri wese, inyuma yabo aho bakoreye inama, hari icyapa gifite ibara ry'ubururu.

Icyapa gishushanyijeho abana babiri bari gukaraba intoki, icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, umwana umwe afite igikombe kirimo amazi, ari gusukira undi ku ntoki akaraba intoki.

Ahantu mu rugo umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'akazi ifite ibara ry'ubururu ari kumwe n'umubyeyi w'umugore ukenyeye igitenge, uwo mujyanama w'ubuzima afite icyapa gishushanyijeho umwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu, arimo arereka uwo mubyeyi amusobanuriraho ibintu bitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi b'abayobozi harimo abagabo, abagore, bambaye neza, bambaye n'amakarita y'akazi, barahagaze neza nyuma yo gusoza inama, barimo kubafata amashusho.

Ahantu ku mugezi, hari abana babiri baje kuvoma amazi bayavomera mu ndobo zifite ibara ry'umweru. Umwana umwe arimo aravomera indobo, undi ayifite mu ntoki, ntabwo baratangira kuyivomera.

Ahantu ku mugezi ku ivomero, hari urujya n'uruza rw'abantu, harimo abantu bakuru ndetse n'abana, harimo ababyeyi bateruye abana babo baje kuvoma amazi, barimo barayavomera mu majerekani, inyuma yabo hari umurima urimo insina n'iyindi myaka.

Abana babiri bava inda imwe banakurikirana baragaragara igice cyo hejuru gusa bambaye udupira tw'umutuku, umukuru muri bo arishimye arimo araseka cyane ari gukaraba intoki mugenzi we arimo aramusukira amazi ku ntoki akoresheje igikombe gisa n'ubururu, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, inyuma yabo hari igiti cy'umuhati.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru, harimo abagore bakiri bato n'abagabo bakiri bato, harimo urubyiruko ndetse n'abana batoya, bazindukiye ahantu kwiteza urukingo.

Umwana mutoya wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, uciyemo imirongo y'umukara, arimo arakaraba intoki akoresheje isabune n'amazi meza, hari umuntu uri kumusukira amazi ku ntoki akoresheje igikombe.

Ikiyaga kirimo amazi menshi cyane ku nkombe z'icyo kiyaga hameze ibyatsi byinshi cyane, kuri iyo nkombe kandi hapfukamye umugore uri kumwe n'umwana we, baje kuvoma amazi badubikamo amajerekani, amazi akajyamo.

Kwa muganga abagore batatu b'abaganga bambaye imyenda y'akazi, bari kwandika amazina y'abarwayi mu gitabo cyabugenewe bayakura mu mafishi y'abarwayi, imbere yabo hicaye umugore w'umuganga udafite ikintu arimo akora arimo arabareba abaha amabwiriza. Muri icyo cyumba barimo, hamanitsemo ishusho iriho umugore n'umugabo n'umwana, hirya yabo hari ibikarito bibitsemo amafishi.

Mu kigo mbonezamikurire cy'abana, ababyeyi bazanye abana babo bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu, bagenderewe n'abantu babihuguriwe kandi babifitiye uburenganzira, bari kugenda baca kuri buri mubyeyi banywesha umwana we amata ari mu nkongoro.

Kwa muganga hari abaganga benshi bambaye imyenda y'akazi isa n'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa n'umwambaro bambara mu biganza, barimo baravura abarwayi barwaye indwara zandurira mu gukoranaho ndetse zikandurira no mu mwuka, ari yo mpamvu bagomba kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'iyo ndwara.

Mu kigo mbonezamikurire cy'abana, hari abantu babihuguriwe b'ingeri zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano n'abandi bantu babifitiye uburenganzira, bitabiriye igikorwa cyo guha ibyo kunywa abana bakiri batoya, bigizwe n'intungamubiri, kugira ngo abana barusheho gukura neza.

Ahantu ku mugezi hari abana batoya baje kuvoma bazanye ubujerekani butoya, hari umuntu uri gukoresha igikoresho cyabugenewe abasunikira amazi kugira ngo abashe kuza anyuze mu itiyo, haruguru yabo hari umushike wamezemo ibyatsi byinshi n'ibiti ndetse kandi hari n'imodoka ifite ibara ry'umweru.

Kwa muganga hari umubyeyi waje kuvuza umwana we ukiri mutoya, babonanye na muganga, muganga yambaye imyenda y'akazi, arimo aratera umwana urushinge ku kuboko amukingira.

Ahantu ku mugezi hakikijwe n'ibyatsi, hari umwana wunamye uri kunywa amazi akoresheje ibiganza, hateretseho indobo iri kugenda igwamo amazi aturutse ku biganza, uwo mwana yambaye ikabutura ifite ibara ry'umutuku n'umupira w'amaboko maremare urimo amabara n'inkweto zifunguye zifite ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ubw'imitekerereze, afite imisatsi myinshi yaywereyeho ndetse n'ubwanwa bwinshi, yambaye imyenda yashwanyaguritse arasa nabi cyane.

Umukecuru ugeze mu za bukuru yicaye hanze iwe. Arimo arateka. Arigutekera mu isafuriya iteretse ku mashyiga. Uwo mukecuru arimo araseka cyane biragaragara ko barikumufata amashusho.

Icyapa cy'ubururu gishushanyijeho umuntu w'umugabo ufite indangururamajwi arimo aravuga. Kuri icyo cyapa kandi handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse kandi handitseho n'amazina y'uwo mugabo urimo uvuga. Icyo cyapa, amagambo yanditseho ajyanye n'insanganyamatsiko ivuga ngo: "Ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuri bose."

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe wambaye imyenda yashwanyaguritse, yambaye n'inkweto zishaje z'umweru, afite amashashi ku rutugu ari kugenda ayatoragura mu muhanda, afite igisebe ku munwa, inyuma ye haparitse ikimodoka cy'igikamyo, gisa n'icyatsi kibisi.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe yicaye ku ntebe ahantu mu ruganiriro. Ku gikuta mu ruganiriro hashushanyijeho ubwoko bw'indabo kugira ngo hakomeze kugaragara neza nkuko tubizi ko imitako, ari kimwe mu bintu bituma ahantu hagaragara neza.

Imbaga y'abantu b'ingeri zitandukanye barimo barabafata amashusho, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma, bari kwifotoreza imbere y'inyubako imanitseho ifoto y'umuntu w'umugabo.

Ikibuga cyamezemo ibyatsi gihagazemo imodoka ifite ibara ry'ubururu yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse mu rurimi rw'icyongereza bigaragara ko yagemuye ibyo kurya.

Umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, yipfutse mu maso akoresheje ibiganza bye, arimo aratekereza ,ari mu bitekerezo byinshi.

Umukobwa wicaye mu ntebe ikozwe mu bwoko bw'ibiti bita imigano, ya umukobwa yambaye ipantaro y'ikoboyi yayihinnye, yambaye n'isengeri y'umukara, arimo araseka.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, w'umusatsi wamwereyeho, yicaye ahantu kuri ruhurura arimo aratoragura amashashi, imbere hakurya ya ruhurura hari umurima wabaye umushike, wamezemo ibyatsi byinshi.

Umubyeyi w'umugore uteruye umwana we w'uruhinja, iruhande rwe hicaye undi mwana w'incuke, bicaye ahantu ku musambi, iruhande rwabo hari urutaro ruriho ingano ndetse n'ingemeri bifite ibara ritukura. Bicaye imbere y'umuryango w'inzu yabo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagore, harimo abafite uruhu rwera n'abirabura bari mu mahugurwa bamwe muri bo bambaye amakarita y'akazi n'udupfukamunwa, basoje amahugurwa bari gufata ifoto y'umunsi kugira ngo basoze amahugurwa yabo.

Imbaga y'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, harimo abagore, abagabo bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye bari mu mahugurwa, ku kigo nderabuzima barimo barahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, icyo cyapa gishushanyijeho ifoto ngufiya y'umuntu w'igitsina gabo, wambaye amadarubindi ufite n'imisatsi myinshi idasokoje, kuri icyo cyapa hariho insanganyamatsiko yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, mu Kinyarwanda ishatse kuvuga ngo twese twite ku buzima bwiza bwo mu mutwe.

Icyapa gishushanyijeho umutwe w'umuntu, ukikijwe n'amabara y'icyatsi kibisi, muri uwo mutwe handitsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi, ugenekereje mu kinyarwanda, aravuga ngo, umunsi wahariwe kwita ku buzima bwiza bwo mu mutwe ku isi, wabaye ku itariki icumi z'ukwezi kwa munani.

Icyapa kiriho ifoto y'umugore w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda arigutanga ikiganiro. Icyo cyapa kigizwe n'amabara atandukanye amabara y'umuhondo, ndetse n'ay'umweru kandi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Amwe yanditse mu ibara ry'umuhondo andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Ahantu hicaye abantu batatu b'igitsina gore, bose bambaye udupfukamunwa barimo baraganira bicaye bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bari guhugurana ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, icyo umuntu yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse n'uburyo yakemura icyo kibazo igihe agize uburwayi bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abakozi basangiye umurimo, harimo abagore n'abagabo bambaye neza barimo kubafata amashusho bahagaze imbere y'inyubako bakoreramo akazi kabo ka buri munsi, biragaragara ko bishimye, kubera ko bamwe muri bo bari guseka n' abandi bafite akanyamuneza mu maso.

Mu cyumba cy'inama habereye amahugurwa ni amahugurwa yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo ndetse bambaye neza, imbere yabo hagiye hari ameza arambitseho amacupa arimo amazi, hagati muri bo imbere yabo hari umugore uri kubakoresha amahugurwa.

Umusore wambaye umupira w'umweru afite amenyo yererana cyane, yashyize urudodo mu menyo ye, arimo arakoresha urwo rudodo akora isuku hagati y'amenyo kugira ngo amenyo ye akomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri koza amenyo yirebera mu ndorerwamo, yambaye ikizibaho cy'umweru giciye amaboko, afite imisatsi miremire, mu maso ye biragaragara ko yishimye kuko ararebana akanyamuneza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire kandi inyerera, yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru, yahumirije, yafashe urudodo mu biganza bye, yarushyize mu menyo, arimo arakora isuku y'amenyo akoresheje urudodo.

Umurwayi w'umusaza yagiye kwa muganga kwivuza, yamaze guhura na muganga, ari kumwe na muganga, muganga yambaye imyenda y'akazi y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, umusaza yambaye agapira k'icyatsi kibisi, arasamye, muganga arimo aramuha ubuvuzi bw'amenyo, bari mu cyumba cyabugenewe gisanzwe gitangirwamo ubuvuzi bw'amenyo.

Kwa muganga umwana ukiri muto yagiye kwivuza amenyo yabonanye n'abaganga, hari abaganga babiri bari gukoresha ibikoresho byabugenewe barimo baramusuzuma amenyo, kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi.

Abana b'abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano y'ishuri, bafite uburoso bw'amenyo n'udukombe turimo amazi, barimo baroza amenyo, babatoza kugira isuku y'amenyo, kugira ngo amenyo yabo arusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse no gukomera.

Ahantu kwa muganga, umurwayi yaje kwivuza amenyo, abaganga bavura amenyo bambaye imyenda yabugenewe, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura amenyo, barimo baramuha ubuvuzi bw'amenyo, ari kumwe na muganga, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Mu kigo cy'ubuvuzi bw'amenyo, hari abana bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi kibisi, bari kumwe n'ababyeyi babo, harimo umwana umwe uhagaze uri gukoresha uburoso bw'amenyo mu koza amenyo, bari kubabwira uburyo bakoresha kugira ngo amenyo yabo akomeze kuba mazima.

Kwa muganga, umurwayi yagiye kwivuza amenyo, arimo aravurwa n'umuganga ubifitiye ubushobozi kandi wabyize, arimo aramuvura akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umusore wambaye umupira w'umweru, arimo arirebera mu ndorerwamo, afite akadodo yagashyize mu menyo arimo aragakoresha akora isuku y'amenyo, kugira ngo amenyo ye arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bombi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, uwo mubyeyi hamwe n'umwana we bafashe urudodo rw'umweru bombi barushyize mu menyo yabo barimo bararukoresha bakora isuku y'amenyo.

Umusore wicaye ku ntebe y'agasongabugari, yambaye inkweto zifunze z'umukara, ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo, yambaye itaburiya y'umweru ifite umufuka urimo ikaramu, yambaye n'isaha ku kuboko.

Inama y'abaturage yateranye, ni inama yitabiriwe n'abantu benshi biganjemo abantu bakuze. Harimo abagabo, abagore. Bamwe muri bo bahisemo kwicara hasi ku mabuye, bitewe n'uko intebe zabaye nkeya. Kubera ubwinshi bw'izuba, bahisemo kuyikorera munsi y'igiti kugira bugame izuba.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru bafite imisatsi y'imvi zabaye uruyenzi. Baricaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza akoze mu biti

Ahantu habereye ikirori, hari imbaga y'abantu benshi bitabiriye icyo kirori, hari abasaza bicaye imbere yabo, ni abasaza bakuru bambaye ingofero, umwe muri abo basaza yambaye amadarubindi, kandi abo basaza bombi bambaye umwitero mu ijosi, bambaye n'amashati.

Umusaza ugeze mu zabukuru yicaye ku ntebe, yambaye ishati y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hicaye umuganga ushinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru, yambaye ishati isa n'icyatsi kibisi na we yambaye agapfukamunwa, arimo arafungura ibipesu by'ishati y'uwo musaza.

Umusaza w' imvi zabaye uruyenzi, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, yicaye ku ntebe, imbere y' umuryango iwe, iruhande rwe hicaye abuzukuru bafite ibyo kurya mu ntoki, bose bari kurya.

Umusaza ugeze mu zabukuru imvi zabaye uruyenzi yambaye amadarubindi yambaye n'ishati ifite ibara ry'umutuku yicaye ku ntebe, iruhande rwe hicaye umuganga wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu, uwo muganga ashinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru ari gukoresha igikoresho cyabugenewe apima umuvuduko w'amaraso uwo musaza.

Ahantu ku kibuga cy'umupira, umugabo uri kumwe n'umwana we, barimo barakina umupira bari guseka cyane, bigaragara ko bishimye, umugabo yambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umweru n'amasogisi y'umweru, ndetse n'inkweto z'umukara, umwana we yambaye ipantaro isa n'icyatsi kibisi, umupira w'amaboko magufi ya, n'uwundi w'imbeho w'irindi bara.

Ahantu hari ikibuga kinini cyane hari umukecuru w'imvi zabaye uruyenzi wambaye bya kinyarwanda, akaba yambaye n'amasaro mu ijosi, afite indangururamajwi y'umutuku arimo aravuga ijambo.

Ahantu mu rugo rw'umuntu ababyeyi n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo bicaye mu ruganiriro, barishimye cyane bari kuganira bahuje urugwiro, barimo baraseka cyane kandi bishimye.

Umusaza n'umukecuru bafite imisatsi y'imvi zabaye uruyenzi, umusaza afite ubwanwa bw'imvi zabaye uruyenzi. Baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi, hateretseho n'utundi ducupa. Umukecuru afite urupapuro mu ntoki, bari kurusoma, umusaza arimo aramwereka ibintu muri terefone.

Abahinzi b'icyayi bishimye cyane bari mu murima w'icyayi, bari kugenda basarura icyayi cyeze bagishyira mu gitebo, igitebo kiboshye mu biti byitwa imigano.

Ahantu mu rugo umubyeyi ushaje ari kumwe n'umwana we, barimo barategura ibyo kurya, bigizwe n'imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo byifashishwa mu guteka, barimo baraganira, barishimye cyane.

Abagore babiri bakuze bishimye cyane barahagaze bahagarariye igice cyo hejuru gusa, umwe muri bo yambaye amadarubindi afite n'umusatsi mukeya urimo imvi, bari mu cyumba cy'uburiro, barimo barategura amafunguro y'ibigizwe n'imbuto n'imboga, bikenerwa kwita ku bantu bakuze kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, si abantu bakuze gusa ndetse n'abandi bose birabareba.

Umusaza ugeze mu zabukuru wogoshe umusatsi, yambaye amadarubindi, yambaye ishati y'ubururu ari kumwe n'umuganga ushinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru, yicaje uwo musaza ku buriri busasheho amashuka asa n'umweru.

Umusaza ugeze mu zabukuru w'imvi zabaye uruyenzi, yambaye imyenda y'umweru, yicaye ku ntebe ari kumwe na muganga ushinzwe kwita ku barwayi bageze mu zabukuru, arimo aramusukira umutobe mu gakombe k'ikirahure. Imbere yabo ku meza, hateretse ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, nk'imbuto n'ibyo kunywa.

Umukecuru ugeze mu zabukuru w'imvi zabaye uruyenzi arahagaze, yambaye umupira ufite ibara ry'umweru, afite isahane iriho ubwoko bw'ibiryo bw'imboga ndetse afite n'ikanya mu ntoki arimo araseka, bari kumufata amashusho, arishimye cyane agiye gutangira kurya.

Umusaza ugeze mu zabukuru w'imvi zabaye uruyenzi, yambaye amadarubindi, yambaye n'ishati ifite ibara ry'umutuku, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ikaramu y'igiti ayifata ku kananwa, na ho ikiganza cye cy'iburyo gifashe igitabo arimo aragisoma icyo gitabo.

Umusaza ugeze mu za bukuru w'imvi zabaye uruyenzi, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'umuganga ushinzwe kwita kubantu bageze mu za bukuru, yambaye imyenda y'akazi, uwo muganga y'ubururu, yambaye n'ikarita y'akazi, afashe uwo musaza ku rutugu.

Abantu babiri bicaye mu ruganiriro, harimo umusaza ufite uruhara n'umusatsi mukeya w'imvi, yicaranye n'umugore wambaye ikarita y'akazi, bombi bambaye imyenda isa n'umukara hejuru, umugore arimo arerereka umusaza, uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga, hifashishijwe telefone nini zigezweho.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, ni umugabo ufite imvi n'umugore ufite imvi, bafite ibyishimo byinshi cyane, umugore arimo araseka cyane, yafatanye n'umusaza ku rutugu, barimo barabafata amashusho.

Umusaza ugeze mu zabukuru w'imisatsi y'imvi zabaye uruyenzi ndetse n'ubwanwa bwabaye uruyenzi, yambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, ateruye utwuma tubiri mu maboko yombi arimo aratwifashisha akora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu habereye umunsi mukuru w'abarwaye agakoko gatera SIDA, ni umunsi mukuru witabiriwe n'abantu bafite uburwayi bwa SIDA ndetse imbere yabo hari itorero ry'ababyinnyi riri kubasusurutsa, ryifashishije imbyino gakondo ndetse n'indirimbo gakondo.

Kwa muganga umurwayi yagiye kwivuza yabonanye na muganga, muganga arimo aramutera urushinge ku kuboko, uwo murwayi arijimye mu maso cyane biragaragara ko atishimye bitewe n'ububabare ari guterwa n'urwo rushinge umuganga ari kumutera, inyuma yabo hahagaze undi muntu wambaye umupira w'amabara.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, asobanura ko tugomba kwita ku burwayi bwa kanseri mu Rwanda, kugira ngo tuzime ubuzima bw'abaturarwanda, ni igikorwa cyabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, asobanuye ngo umunsi wo kwita ku bidukikije ku isi wabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Kwa muganga hari icyapa gishushanyijeho ifoto y'umwana wambaye agapira k'icyatsi kibisi, ugaragara igice cyo hejuru gusa, uwo mwana arishimye cyane, arimo arakina na muganga uri kumwitaho, amuhumuriza kugira ngo abashe gukomeza kumererwa neza.

Icyapa gishushanyijeho itara, cyanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'umukara, avuga ku bimenyetso by'uburwayi bwa diyabete, aho bagaragaza ko ibimenyetso biyiranga ari ukumva ufite inyota cyane, gushaka kunyara inshuro nyinshi birenze ibisanzwe, gutakaza ibiro bya hato na hato, kumva ufite umunaniro ndetse no kutareba neza.

Imbaga y'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bari kwifata amashusho, abari imbere bicaye ku ntebe naho abandi bahagaze bari inyuma, ari kwifotoreza imbere y'icyapa gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'iry'umweru, icyo cyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, harimo ijambo rimwe ribanza ryanditse mu nyuguti nini mu ibara ry'umweru n'ayandi magambo munsi yanditse mu ibara ry'umuhondo, ahavuga ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, amwe muri ayo magambo yanditse mu ibara ry'umweru andi yanditse mu ibara ry'umuhondo kuri icyo cyapa kandi hashushanyijeho umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu inyuma ye hari umuntu uri kumutera urushinge ku kuboko.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari gukora inama, harimo abagore n'abagabo bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo ku ruhimbi hicaye abantu bambaye neza b'abayobozi, bari kubakoresha inama kandi ahantu bari hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, amagambo amwe yanditse mu ibara ry'ubururu andi yanditse mu ibara ry'umukara, icyo cyapa kandi gishushanyijeho amafoto magufi y'abantu b'abagore ndetse n'ifoto y'umugabo imwe ngufiya.

Imbaga y'abantu yiganjemo urubyiruko rwinshi cyane bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, bahagaze ahantu mu kibuga hakikijwe n'ibipangu by'amazu, barimo barafata amashusho bafashe icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho bavuga ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera SIDA ipimishe kare.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa n'umukara, bambaye neza cyane, umwe aricaye, undi arahagaze. Inyuma yabo, hari icyapa cyanditseho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umukobwa mukuru w'inkumi yicaye mu ntebe yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara arenzaho ikote ry'umweru afite indangururamajwi yambaye ikarita y'akazi afite n'ikayi yambaye amadarubindi arimo aratanga ikiganiro kijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abihayimana b'abagore tuzi ku izina ry'ababikira, bambaye amadarubindi bose bari kugenda basuhuza umuyobozi ukora muri Minisiteri y'Ubuzima, bahagaze iruhande rw'icyapa gisa n'ubururu gishushanyijeho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima.

Icyapa gishushanyijeho inzu ikoze nk'ikizeru, igiye igerekeranye ndetse ikaba ifite n'amabara agiye atandukanye, hashushanyijeho n'umwana w'umukobwa, ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, amwe yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi, andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu b'ingeri zitandukanye; harimo abagore ndetse n'abagabo bose bambaye neza, baricaye bari gukora inama, hirya yabo hari umugore ufite indangururamajwi, ndetse hirya yabo nano ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ufite urupapuro arimo arasoma, inyuma yabo nanone hari icyapa cyanditseho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Kwa muganga hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, muganga arimo arahera ku murongo akurikije uwahageze mbere, buri wese amupima umuvuduko w'amaraso, akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Kwa muganga ahakorerwa igikorwa cyo gusuzuma ibizamini byatanzwe n'abarwayi barebamo udukoko dutandukanye dutera indwara, ndetse tunakwirakwiza iyo ndwara, hari intebe nziza cyane zisa n'ubururu, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma udukoko dutera indwara mu bizamini byatanzwe n'abarwayi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, hari umuntu waje kwipimisha umuvuduko w'amaraso. Muganga yamuziritseho igikoresho cyabugenewe ku kuboko amupima umuvuduko w'amaraso. Iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ijambo ryo mu Kinyarwanda "irembo" ryanditse mu ibara ry'ubururu.

Umwana w'umukobwa ubana n'ubumuga yambaye ikizibaho gisa n'ubururu ari kugendera mu kagare ari kwerekeza ku kigo nderabuzima aho agiye gushaka ubufasha bwubuvuzi kuri icyo kigo nderabuzima ku irembo hagaze umuntu ugaragara igice cyo hejuru yambaye umupira usa n'umuhondo iruhande rwe hari ubusitani bwindabo n'imbere ye hakurya hagaragara umusozi.

Kwa muganga, umuganga wambaye imyenda y'akazi, wambaye n'ingofero idoze mu mwenda ifite ibara ry'umweru yaryamishije uruhinja ku gitanda arimo ararukorera isuku aseka.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni ikigo nderabuzima cyubatse neza cyane, ku marembo y'icyo kigo nderabuzima hasize irangi ry'umuhondo, kuri icyo kigo nderabuzima kandi hazindukiye abantu baje gusaba ubufasha bw'ubuvuzi.

Kwa muganga umuganga wambaye imyenda y'akazi arimo arasuzuma umwana urwaye, umwana wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, hasi yambaye ipantaro y'umukara arimo araseka cyane hamwe n'umuntu waje kumuvuza.

Kwa muganga umubyeyi utwite yagiye kwipimisha yabonanye na muganga, muganga arahagaze, yambaye imyenda y'akazi arimo araseka, yambaye n'amadarubindi bari kumufata amashusho.

Kwa muganga mu bitaro aho abarwayi bahawe ibitaro bavurirwa, harimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi, umuganga arimo aragenda azengurukamo anyura kuri buri murwayi, areba uko ameze. Abashinzwe gukora amasuku bari kuzengurukamo bakora amasuku, bifashishije umweyo nk'igikoresho cyabugenewe bifashisha bakubura.

Ikigo Nderabuzima cya Kinyinya ni Ikigo Nderabuzima kinini cyubatse neza kandi gishyashya, ku rubaraza rwacyo hateye indabo zikiri ntoya ndetse hanari n'agacaca. Imbere ku mbuga hashashemo amabuye, ku irembo nanone hamanitse ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ni inyubako mu imbere hari ubwoko butandukanye bw'imashini bifashisha kwa muganga mu buzima bwa buri munsi, mu gusuzuma ibizamini byafashwe abarwayi ndetse no kubacisha mu cyuma igihe barwaye indwara zitagaragara.

Inyubako ikorerwamo igikorwa cy'ubuvuzi, ni inyubako iri kugaragara igice cyo hejuru gusa, ku gisenge cy'iyo nyubako handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, kuri iyo nyubako kandi, hari kugaragara imitwe ibiri y'abantu ariko batari kugaragara ibindi bice, bari kugaragara mu maso gusa.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ni inyubako yubatse neza cyane ku mbuga yayo hubakishije amabuye, ku gisenge cy'iyo nyubako kandi hamanitseho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'ubururu, asobanuye mu Kinyarwanda ngo abana b'u Rwanda. Imbere kandi y'iyo nyubako hamanitse ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Kwa muganga mu cyumba bacumbikiramo abarwayi bivuza babamo, hari igitanda kiryamyeho umurwayi, harimo umuganga wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu n'ipantaro y'umukara, arimo aramanura inzitiramibu ifite ibara ry'ubururu kugira ngo umurwayi arare mu nzitiramibu, imibu itamurya akarwara Malariya.

Kwa muganga mu bitaro ahacumbikirwa abarwayi bivuza baba mu bitaro, harimo ibitanda byinshi ndetse n'ubwoko bw'imashini zitandukanye,..

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ni ibitaro binini kandi byubatse neza cyane, bisizeho amarangi y'amabara atandukanye, imbere y'ibyo bitaro hagiye hamanitse Amabendera y'Ibihugu bitandukanye.

Inyubako ndende ikorerwamo ubuvuzi, harimo abaganga ndetse n'abandi bakozi bakora kwa muganga, iyo nyubako igizwe n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku barwayi babagana.

Umuganga wambaye imyenda y'umweru ikote n'ipantaro, ni umuganga w'umugore yambaye agapfukamunwa ndetse n'umurwayi yambaye agapfukamunwa, arimo aramuvura, umurwayi afite ubumuga agendera mu kagare, iruhande rwabo hari abandi baganga barimo bakira abarwayi baza babagana.

Ivuriro ryubatse neza cyane ni ivuriro risakaje amabati, rikaba riteye amarange atandukanye, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umuhondo, bigaragaza ko ari ibitaro by'Akarere bya Shyira.

Kwa muganga mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, hari abarwayi bahazindukiye bicaye imbere y'umuryango, bategereje ko babafata ibizami bakabasuzuma, kugira ngo habashe kumenyekana indwara barwaye, mbere y'iryo vuriro hateye ibiti by'indabo.

Kwa muganga mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi harimo abanyeshuri benshi bari kwimenyereza umwuga w'ubuforomo n'ubuforomokazi, barimo barakora ubushakashatsi ku binyabutabire biba muri icyo cyumba.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abagabo ndetse n'umugore umwe, bose bambaye amashati afite ibara ry'umweru, bamwe bambaye amapantaro afite ibara ry'umukara, abandi bambaye amapantaro afite ibara ry'ubururu, bafite ibikapu mu ntoki barimo baragenda bagana ku nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Kwa muganga mu bitaro ahagenewe gucumbikirwa abarwayi bivuza baba mu bitaro, harimo ibitanda n'umuganga wambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, arimo aratera intambwe asohoka mu bitaro.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'amaso, ni inyubako ndende, hejuru ku gisenge cy'iyo nyubako, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, asobanuye mu kinyarwanda ngo "ubuvuzi bw'amaso". Hejuru kandi nanone, hariho ishusho y'ijisho. Imbere ku mbuga y'iyo nyubako, hubakishije amabuye.

Inyubako ndende cyane kandi yubatse neza, ni inyubako isizeho amarangi y'amabara atandukanye, yanditseho amagambo abiri, rimwe riri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, irindi riri mu rurimi rw'Icyongereza, ni amagambo agaragaza ko ari ibitaro bya Rwamagana. Imbere y'ibyo bitaro hahagaze urugaga rw'abaganga, harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye amakarita y'akazi, bari kubafata ifoto.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi, yubakishije amatafari, ifite amadirishya menshi isakaje amabati.

Ahantu kwa muganga, umukozi ukora kwa muganga ari gukoresha Mudasobwa, mu kureba ibisubizo by'umurwayi wafashwe ibizamini, aho bigaragara ko ari umurwayi wanyujijwe mu cyuma, arimo arareba ibisubizo by'ibizamini yafashe umurwayi.

Ahantu ku muhanda hubatse ivuriro ryiza cyane, ni ivuriro ryubatse neza, uwo muhanda abagenzi barimo baratambuka bajya mu mirimo yabo ya buri munsi igi itandukanye, kuri uwo muhanda hashinze igiti kimanitseho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, munsi y'umuhanda hari ishyamba ndetse hakurya y'iryo vuriro ndetse n'umuhanda hari umusozi uteyeho ibiti.

Inyubako yubatse neza cyane kandi nshyashya, ifite isuku, ikoreshwa mu gutanga ubuvuzi, ni inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ibyo bikoresho harimo imashini.

Kwa muganga mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, hari abaganga ndetse n’abanyeshuri bari kwitoza cyangwa se kwimenyereza umwuga w’ubuforomo n’ubuforomokazi, bari gukora ubushakashatsi ku miti.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ni inyubako yubatse ahantu ku muhanda, iyi nyubako yubakishije amabuye, imbere y'umuryango hahagaze abantu baje gusaba ubufasha bw'ubuvuzi, munsi y'umuhanda hateye ubusitani bw'indabo z'ubwoko butandukanye.

Abaforomokazi bambaye imyenda y'akazi isa n'ubururu, bateze n'ibitambaro by'umweru mu mutwe, bari kubafata amashusho bahagaze imbere y'umuhanda w'ibitaka uteyeho ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse no mu Kinyarwanda, ayo magambo arerekana ibitaro bikuru bya Kabgayi, ni ibitaro biherereye mu Karere ka Muhanga, mu Ntara y'Amajyepfo, aho batanga ubufasha bw'ubuvuzi bw'amaso yananiranye.

Kwa muganga mu bitaro, ahacumbikirwa abarwayi bavurwa baba mu bitaro, hari ibitanda byinshi bitondetse ku murongo. Nta barwayi benshi barimo, harimo umurwayi umwe gusa, ni uri mu bitaro.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara, ni inyubako ndende kandi yubatse neza, iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, iyo...

Kwa muganga hari abarwayi benshi baje gusaba ubufasha bw'ubuvuzi bicaye ku ntebe bakurikiranye; imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara ndetse n'umupira w'umweru, yambaye agapfukamunwa n'abicaye bose bambaye udupfukamunwa; uwo mugabo ubahagaze imbere arimo arabitegereza cyane.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako zubatse ahantu ku muhanda, bigaragara ko zitaruzura neza, ni inyubako zimwe muri zo zubakishijwe amatafari ahiye izindi muri zo zubakishijwe amabuye, ku mbuga yazo hateye ibyatsi ndetse n'indabo z'ubusitani.

Ababyeyi n'abana bicaye hanze ku kigo nderabuzima cya Shagasha, baje gushaka ubufasha bujyanye n'ubuvuzi, bategereje ko batangira gukora ngo babakire, barahabugenewe aho abarwayi babanza gutegereza mbere y'uko babakira.

Kwa muganga mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga w'ubuforomo n'ubuforomokazi, barimo barabafata amashusho bari gukora ubushakashatsi ku bwoko bw'imiti butandukanye.

Ahantu hari inyubako nziza cyane kandi ndende, itangirwamo ubufasha bw'ubuvuzi, ku gisenge cyayo harasa n'umuhondo, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, asobanura ngo : "Ahakorerwa ubushakashatsi."

Kwa muganga mu cyumba gicumbikirwamo abarwayi bivuza baba mu bitaro, harimo igitanda kiryamyemo umurwayi, muri icyo cyumba hari ubwoko bw'imashini kwa muganga bakenera mu murimo wabo wa buri munsi w'ubuvuzi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse n'ubugezweho, iryo soko ry'imiti riganwa n'abantu benshi baje kugura imiti bakoresha bivura indwara zitandukanye

Mu nyubako ikorerwamo igikorwa cy'ubuvuzi kwa muganga, ni ahantu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo intebe, ibitanda abarwayi baryamaho, ameza arambitseho ubwoko bw'imashini.

Umugore uhetse umwana ahagaze hanze y'amarembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, biragaragara ko ashaka kujyayo gusaba serivisi yo gukingiza umwana.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge biherereye mu Mujyi wa Kigali, ni ibitaro binini cyane, ku muharuro wabyo hubakishije amabuye, hateye n'ibiti byifashishwa mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka. Igice cyaho kimwe, cy'umuharuro, giteyemo ibyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura n'inkweto byambarwa mu myitozo ngororamubiri, nta myenda yambaye ku gice cyo hejuru, biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu ku kibuga cy'umupira w'amaguru, hari abakinnyi bari bari gukina umupira bambaye n'imyenda y'abakinnyi, mugenzi wabo umwe yagize ikibazo cyo kuvunika, abakozi bakora mu kigo gishinzwe gufasha imbabare, barimo kumukanda bamushyiriraho umuti kugira ngo abashe gusubira mu kibuga umukino ukomeze.

Urubyiruko rwinshi cyane, ruri ahantu mu kibuga cyagenewe gukorerwamo imikino itandukanye ndetse n'ubundi bwoko bw'imyitozo ngororamubiri, ni urubyiruko rwinshi cyane, hari imbaga y'abantu bahari bamwe bitwikiriye imitaka, hejuru y'icyo kibuga hari imirima irimo insina nyinshi, urutoki.

Amacupa y'umweru yometseho ibipapuro bifite amabara atandukanye, kuri ibyo bipapuro handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu mabara atandukanye, amagambo amwe yanditse mu ibara ry'umweru, andi yanditse mu ibara ry'umuhondo, andi yanditse mu ibara ry'umutuku.

Ameza arambitseho amasahani ariho ubwoko bw'ibiryo bigiye bitandukanye nk'imbuto, amagi, ibinyampeke, inyama, imineke, harambitseho n'ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Igishushanyo kigaragaza ibyo umuntu wese agomba gukora kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Baragaragaza ko agomba gukora imyitozo ngororamubiri, akarya indyo yuzuye, ikubiyemo imboga, ibikomoka ku matungo, imbuto, ibitera imbaraga, ibinyamisobwe, ndetse akanywa n'amazi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara wamaboko magufi ndetse n'ipantaro yijimye. Ari ahantu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, arimo araterura icyuma kiremereye cyane arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi kibisi, afite icupa ririmo amazi, arimo arayimenaho mu maso nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu mu kibuga giteyemo ibyatsi harimo umuntu wambaye imyenda y'umukara, aricaye arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira utagira amaboko w'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi wenda gusa umweru, afite agacupa k'amazi arimo arayanywa, nkuko tubizi amazi ni kimwe mu bintu bituma umuntu akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuyikorera ahantu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara, arimo aragorora amaguru kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza nta nkweto yambaye.

Umukobwa uri ahantu habugenewe, hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, akoresheje ibikoresho byabugenewe. Ari ahantu hashinze ibyuma bibiri, yabifatishije amaboko arimo aragenda abinyuramo yicundaga.

Umukobwa woboshye imisatsi, ari mu myitozo ngororamubiri, yamanitse amaboko, ahuza ibiganza, arimo aragorora amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza nk'uko tubizi ko imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bintu bituma umuntu akomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza kuko zirinda umuntu gufata n'indwara za hato na hato nk'ibicurane ndetse n'inkorora n'izindi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'ubururu imufashe, agasengeri k'ubururu kamufashe kagaragaza igice cy'inda n'umugongo, afite imisatsi miremire, ari mu myitozo ngororamubiri.

Kwa muganga abaganga b'abagore ndetse n'ab'abagabo bambaye imyenda y'akazi, barimo barahabwa ubukangurambaga n'undi muganga mugenzi wabo w'umugabo, wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'ishati y'ubururu, inyuma yarengejeho itaburiya y'umweru, ari kubereka amashusho akoresheje isakazamashusho.

Umuntu wicaye ahantu habugenewe hakorerwa imyitozo ngororamubiri arimo arakora imyitozo ngororamubiri yarambuye ukuguru kumwe ndetse n'amaboko arimo arayagorora ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yambarwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu habugenewe hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanyekanye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri arimo arayikorera ahantu habugenewe, yahinnye ukuguru aguhinira ku ruhande rw'inyuma agukoza ku kibuno, ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru ndetse n'amaboko.

Amacupa atatu y'umweru yometseho ibipapuro by'amabara y'ubururu, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, bibitsemo umuti wifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo cy'imvune mu gihe bari mu myitozo ngororamubiri, bakawukoresha bawusiga ahantu umuntu yagize ikibazo cy'imvune kugira ngo akire.

Uruvangavange rw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo imbuto zo kurya, nk'imineke, inanasi, amacunga, amapera ndetse na gaperi. Muri urwo ruvange harimo ibinini byifashishwa mu kuvura indwara y'umutwe, harimo n'ibitari ibyo kurya nk'imidari, amacupa n'ibindi.

Ameza arambitseho ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibyo kurya bigizwe n'imbuto nk'imineke, amacunga, indimu n'izindi mbuto umuntu wese akenera kuba yarya kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi kibisi, arimo aragorora amaboko yifata mu mugongo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza bitewe n'uko gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu akomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Icyapa gishushanyijeho amacupa y'umweru agenda arutanwa mu bunini, yometseho igipapuro cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura ngo "Hagarika ububabare." Ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zibabaza harimo nk'umutwe ndetse no kubabara mu nda.

Kwa muganga ahagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hahagazemo umuntu w'umusore wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, n'umupira uciye amaboko urimo amabara, barimo kumufata amashusho afashe kuri kimwe mu bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu utashatse kwigaragaza isura, ari gusuka amazi meza yo kunywa, ayakura mu icupa rya parasitike, akayasuka mu gikombe gikoze mu kirahure kugira ngo bayanywere mu gikombe.

Umuntu wunamye yifashe ku mavi akoresheje ibiganza bye byombi, yambaye ikabutura y'umukara n'isaha y'umukara ku kuboko. Arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye ahantu habugenewe arimo ararambura amaboko n'amaguru yambaye imyenda yabugenewe inkweto z'umutuku, ipantaro isa n'umukara imufashe, imbere ye harambitse icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu.

Abantu babiri b'igitsina gabo bari ahantu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, barimo barakora imyitozo ngororamubiri, umugabo umwe apfukamishije ukuguru kumwe arimo aragorora amaguru, afite n'umupira mu ntoki wo gukina.

Amacupa y'umweru ateretse, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, amagambo amwe yanditse mu ibara ry'umutuku, andi yanditse mu ibara ry'umukara, harimo n'ayandi yanditse mu ibara ry'umweru. Ayo macupa abitsemo ubwoko bw'imiti bugabanya ububabare nk'ububabare bw'umutwe cyangwa se bwo kuribwa mu nda.

Kwa muganga umuganga wakoze ijoro yambaye imyenda y'akazi y'umweru, ari kwita ku barwayi arimo arabafata ibipimo n'ibizamini, ibisubizo bikiyandika mu mashini yabugenewe bakoresha bareberamo ibisubizo.

Ahantu mu kibuga cy'umupira, hari abakinnyi bari bari gukina umupira w'amaguru. Bambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'inkweto zabugenewe, umwe mu bakinnyi yagize ikibazo cy'imvune, yavunitse ukuguru, mugenzi we arimo aramukanda, kugira ngo yongere kumererwa neza.

Ahantu ku kibuga kinini cyane cyubakishije amabuye, hahuriye urujya n'uruza rugizwe n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, harimo urubyiruko rw'ingeri zitandukanye, hari urubyiruko rukiri rutoya cyane, hari n'urundi rubyiruko rukuru, baje mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu ubyutse yicaye ku buriri bushashe, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara imufashe, yambaye n'isengeri igaragaza imbavu mu nda ndetse n'umugongo, ayamanitse amaboko arimo arayagorora, arimo kwinanura, afite imisatsi miremire.

Icyapa gishushanyijeho ikiganza cy'umuntu kiri gusuka amazi mu gikombe gikoze mu kirahure. Ni amazi meza y'urubogobogo, umuntu uwo ari we wese ashobora kuyanywa agashira inyota, ndetse akarushaho no kugira ubuzima bwiza, kubera ko kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi akamererwa neza.

Icyapa cyanditseho kandi gishushanyijeho amabwiriza agomba gukurikizwa mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirusi. Muri aya mabwiriza harimo kuguma mu rugo, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gukaraba umuti wica udukoko, kwirinda gusuhuzanya, gusigamo metero hagati y'umuntu n'undi, ndetse no gushyiraho abakorerabushake bashishikariza abantu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona virusi.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, ni amacupa abitsemo ubwoko butandukanye bw'imiti, ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iyo miti ikomoka ku bimera.

Ibikarito n'amacupa by'ubwoko butandukanye byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, imineke, inanasi ndetse n'ubwoko bw'indabo byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye byiganjemo igiti cy'umuravumba, abanyarwanda bakunze kuwukoresha mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora, impiswi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hari amacupa y'ubwoko butandukanye, harimo manini ndetse n'amatoya, ayo macupa yose abitsemo imiti ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abarwayi bahura na zo.

Ingemwe z'ibimera by'ubwoko butandukanye zihugitse mu bihuho, ni ibimera bakoresha bategura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, ibyo bimera biratohagiye cyane, biragaragara ko biri gukura neza.

Icyapa gishushanyijeho amacupa abitsemo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, handitseho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza asobanura ko gukoresha uwo muti byoroshye.

Umurima uteyemo ubwoko bw'ibimera bitandukanye bikoreshwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo ikimera gifite amababi atohagiye kimwe bigaragara ko kiri gukura neza.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, abitsemo imiti itandukanye, ikomoka ku bimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, ayo macupa amanitse ahantu habugenewe, ateretse.

Amacupa atatu abitsemo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, bateguye bayikuye mu byatsi, icupa rimwe ririmo hagati ari na ryo rinini, rifite ibara ry'umuhondo, ayandi matoya ari ku ruhande abiri arikikije afite ibara ry'umweru. Ayo macupa yose yandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Mu murima w'ubwoko bw'ibiti bitandukanye, harimo ibiti bimwe bikura bikaba binini cyane bikazana n'amashami, hari n'ibindi muri byo bigufiya, ni ibiti byose cyangwa se ibimera twifashisha mu gutegura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'umuravumba, umubirizi, umwenya ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura indwara mu buvuzi gakondo.

Urugemwe rw'igiti rwahumbitswe mu gihoho ruratoshye, rurasa neza biragaragara ko rwitaweho rufite amababi atoshye.

Umurima uteyemo ubwoko bw'ibimera byifashishwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibyo bimera biratohagiye biragaragara ko biteye mu butaka bwiza kandi bigerwaho n'amazi.

Ahantu hari ibibumbano bibiri, biteyemo ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hari n'igikombe cy'ibumba kirambitsemo uburoso bubiri bwifashishwa mu koza amenyo.

Ibimera by'ubwoko butandukanye, rwagati muri byo hateretsemo isekuru n'umunini bakoresha mu gusekura ibibabi by'ibyo bimera kugira ngo bategure imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibinini bisa n'icyatsi kibisi bibitse mu gikoresho kibaje mu giti gifukuye bimwe muri byo byavuye muri icyo gikoresho bimeneka hasi ibyo binini bikorwa mu bimera bakaba babyifashisha mu buvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi bugezweho.

Ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye harimo ibiti byakuze birebire, harimo n'ibindi bigufiya, ibyo byose bikoreshwa mu buvuzi gakondo, babikoresha bategura imiti bakoresha bavura abantu indwara zitandukanye.

Ahantu hari ubwoko bw'ibimera butandukanye, harimo ibiti bikura bikaba binini ndetse n'ibindi birandaranda ku butaka, ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane, impiswi ndetse n'umutwe.

Igihuru kirimo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, ni ibyatsi bikoreshwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye harimo umuravumba uzwi cyane cyane mu kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zifata mu buhumekero nk'ibicurane.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye, ni ibimera biteye mu bikoresho by'ibumba baba bararunzemo igitaka, ibyo bimera biratandukanye, biratohagiye, harimo ibimera bifite indabo, handitseho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Gishushanyijeho n'umuntu w'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru. Icyo cyapa kandi gishushanyijeho amacupa abitsemo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Icyo cyapa kandi handitseho amagambo atangira agira ati; ndi umujyanama wawe w'ubuzima ndetse n'imirire.

Ameza ateretseho ubwoko bw'imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, iyo miti iri mu bikoresho byabugenewe ndetse kuri ayo meza hariho ikiganza cy'umuntu, yashyize imiti ku kiganza, ari kugenda ayireba ayitegereza, hariho n'imiti itangiye kuzana imimero.

Ameza ateretseho amacupa y'ubwoko butandukanye, abitsemo imiti itandukanye ikomoka ku bimera. Iyo miti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ryiza rifite ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ni icupa ribitsemo imiti, ikomoka ku bimera, yifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura abantu indwara zigiye zitandukanye.

Icyapa gishushanyijeho ubwoko butandukanye bw'amacupa abitsemo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo kuvura indwara zitandukanye, icyo cyapa kandi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibikarito n'amacupa abitsemo imiti ikomoka ku bimera n'imiti bakoresha mu buvuzi gakondo kuvura indwara zijyiye zitandukanye ibyo bi bikarito ndetse n'amacupa byanditseho amagambo menshi ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse kubikarito hariho ifoto y'ikimera bakoresha bategura iyo miti ibitsemo.

Umuvuzi gakondo arimo arategura imiti ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, afite umuhini n'isekuru irimo ibyatsi arimo arabisekura, ategura imiti akoresha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara.

Umugore wifubitse igitambaro gifite ibara ry'umweru afite n'igikapu ku kuboko, arimo aratotora ibibabi by'ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni ibimera bitohagiye bigaragara ko biri gukura neza, ko biri ahantu heza byishimiye.

Amacupa abiri y'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo macupa ashushanyijeho n'ikimera cyifashishwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ayo macupa abitsemo imiti itegurwa hifashishijwe ikimera gishushanyije kuri ayo macupa.

Ibyo kurya ndetse n'imiti ikomoka ku bimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo, muri ibyo byo kurya harimo imineke, inanasi, indabo n'iyindi miti, iri mu dukarito tw'amabara agiye atandukanye, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibikoresho byabugenewe bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, muri iyo miti hari iyo bisaba ko bayisekura mu isekuro, bakoresheje umuhini kugira ngo babashe guteguramo imiti ibasha kuvura abarwayi, barwaye indwara zitandukanye.

Icupa ry'umweru ryometseho igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, iryo cupa ririmo umuti ukomoka ku bimera bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye mu buvuzi gakondo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi, yambaye ikarita y'akazi, arahagaze afashe ikimera mu ntoki barimo kumufata amashusho, inyuma ye hari ameza y'ubururu.

Amacupa afite amabara atandukanye, abitsemo ubwoko bw'imiti butandukanye ikomoka ku bimera, kuri ayo macupa handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hashushanyijeho n'ikimera cyifashishwa mu gutegura iyo miti.

Amacupa magufi y'umweru menshi, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, abitsemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyo miti ikaba ikomoka mu bimera bitandukanye.

Ahantu mu murima utewemo ibimera by'ubwoko butandukanye, ni ibimera bakoresha bategura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora, indwara z'ubuheri zifata uruhu, impiswi n'izindi.

Umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo ubitse mu icupa ry'umweru rishushanyijeho ibishushanyo biri mu ibara ry'umuhondo, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse mu ibara ry'umuhondo n'ayanditse mu ibara ry'umukara.

Amacupa abiri n'igikarito byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo macupa ndetse n'igikarito bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, ni imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, yometseho ibipapuro byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Ayo macupa ateretse ku meza, abitsemo imiti ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa gishushanyijeho igikarito, iki gikarito gifite amabara atandukanye cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, habitsemo imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa rifite ibara ry'umweru ryometseho igipapuro gifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru, kuri icyo gipapuro handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, iryo cupa kandi ribitsemo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kiriho amashusho y'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, ni imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara zitandukanye, icyo cyapa cyanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, avuga ngo, isoko ry'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ameza ateretseho amasahani abiri, arimo ibibabi by'ibimera byifashisha mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Muri utwo dusahane harimo amazi ashyushye, ndetse barambitsemo n'ibimera kugira ngo umuti ukamuke uva muri ibyo bibabi by'ibimera barambitsemo bawukoreshe bavura indwara zitandukanye.

Kuru ruhande rw'ibumoso, hari ikiganza gifashe uburoso bwoza amenyo, ku ruhande rw'iburyo hari ukuboko, ikiganza cyako gifashe umuti w'amenyo, kiri gushyira umuti w'amenyo ku buroso bwoza amenyo.

Ameza akoze mu biti arambuyeho agatambaro gateretseho isahane ifite ibara ry'umweru irimo umutobe ukorwa mu mbuto, uwo mutobe ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'imbuto bifashisha mu kuwukora zifite ibara ry'umuhondo, uwo mutobe uragaragara nkaho uryoshye cyane.

Imiti ikomoka ku bimera yamaze gutunganywa ibikwa mu bikoresho byabugenewe, bayitereka ahantu habugenewe, ahari ubushyuhe butabasha kwangiza iyo miti, ibitse ahantu mu nzu, ku rukuta rw'iyo nzu handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza iyo miti yifashishwa mu kuvura abarwayi barwaye indwara z'uruhu nk'ubuheri.

Urujya n'uruza rw'abantu bakoze isoko ry'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imbuto imboga, si ibyo kurya gusa ahubwo ni isoko none ririmo imiti itegurwa mu bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, iyo miti iri mu macupa afite imipfundikizo ifite ibara ry'umuhondo.

Amacupa yometseho udupapuro tugaragaza ubwoko bw'imiti ibitsemo, yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa afite ibara ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ayo macupa arimo imiti ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Isoko ricururizwamo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Abarwayi n'abarwaza barigana umunsi ku wundi bajya kugura imiti.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni ikimera gitohagiye cyane, amababi yacyo aratoshye, bigaragara ko kiri gukura neza.

Ameza arambitseho ibimera by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gutegura imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ku meza amwe hateretseho icupa ribitsemo imiti itegurwa hifashishijwe ibyo bimera.

Icyapa gishushanyijeho icupa ry'umweru ryometseho igipapuro gifite amabara y'umutuku, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, kuri icyo cyapa na none handitseho amagambo agaragaza ko umuti uri muri iryo cupa uvura kurangiza vuba ndetse no gucika intege, mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ku bashakanye ndetse n'abatarashakanye bagerageje kubikora.

Ishyamba rinini ry'inzitane riteyemo ibiti bigiye bicucitse, hateyemo n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibimera bigufiya, byifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanyekanya.

Ahantu hari udukarito n'amacupa abiri afite ibara ry'umuhondo, yandikishijweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ayo macupa akaba arimo imiti ikomoka ku bimera ndetse n'ibikarito biragaragara ko harimo imiti ikomoka ku bimera.

Imbuga yanitseho ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imwe muri yo bayitegura bifashishije uburyo bwo kuyisekura mu isekuru.

Icyapa gishushanyijeho inyoni iri kuguruka, gishushanyijeho n'ibyatsi bakoresha bategura, imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Icyo cyapa kandi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu uhagaze mu murima w'ibimera, yambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umukara, afite ikimera mu ntoki cyifashishwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, bari kumufata amashusho afite ikimera, kandi ari mu murima w'ibimera.

Umurima uteyemo ibimera by'ubwoko bumwe, ni ibimera bifite amababi atoshye cyane, biragaragara ko biteye mu butaka bwiza kandi bigerwaho n'amazi kuko bigaragara ko biri gukura neza cyane. Ibyo bimera babikoresha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa afite amabara atandukanye, harimo ay'umweru ndetse n'ay'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ayo macupa akaba abitsemo imiti itegurwa mu bimera bifashisha mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye. Iruhande rw'ayo macupa inyuma hari ibyatsi, ibimera by'ubwoko butandukanye bakoresha mu gutegura iyo miti ibitse muri ayo macupa.

Ahantu hanitse imiti myinshi y'ubwoko butandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hari umuhini ndetse n'isekuru bifashisha mu gusekura iyo miti bakoresha mu buvuzi gakondo.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, ni ikimera Abanyarwanda bakunze kwifashisha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo inkorora zitera umuntu gusarara ijwi rye ntiribashe gusohoka, kuri icyo kimera iruhande rwacyo handitseho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa gishushanyijeho uducupa dushushanyijeho ibimera, utwo ducupa tubitsemo imiti ikomoka ku bimera, ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye umuntu wese ashobora guhura nazo.

Icyapa gishushanyijeho udukarito tubitsemo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, ni imiti itegurwa hakoreshejwe ibimer, iyo miti iva mu bimera. Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo: icyayi kiva mu bimera.

Ahantu mu gihuru hari ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye, by'inzitane ibyo byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye aho usanga abavuzi gakondo, bajya kubyahira bakabiteguramo imiti bakoresha bavura indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibimera bitandukanye, n'ibimera bikoreshwa mu buvuzi gakondo, babyifashisha mu gutegura imiti bakoresha bavura mu buvuzi gakondo, harimo ikimera kimwe cyakuze kurusha ibindi, aricyo kigaragara cyane, cyiganje, ni ikimera gifite amababi atohagiye cyane, biragaragara ko kiri gukura neza, kandi ko gihinze mu butaka bwiza.

Umurima uhinzemo ibimera byitwa umuravumba, ni ibimera bikoreshwa mu gutegura imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Ibyo bimera cyane cyane kandi bikoreshwa mu kuvura inkorora.

Ahantu hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'umukara, iruhande rw'icyo cyapa hari igikoresho cyabugenewe kirambitseho ibyo kurya bikomoka ku mavuta y'inka ndetse n'amata.

Icupa rifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, ryandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'umuhondo, ribitsemo umuti ukomoka ku bimera, uwo muti ukaba wifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse n'ubuvuzi bugezweho.

Icupa rinini cyane ry'umweru, rifite umupfundikizo usa n'ubururu, ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ni amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iryo cupa ribitsemo umuti, wifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zitandukanye.

Ameza arambitseho ibibabi by'umuravumba na tangawizi n'ikirahure cyuzuye umutobe bakamuye mu bibabi by'umuravumba na tangawizi, barambitsemo ikiyiko bifashisha mu guha umurwayi bagiye kumuvura inkorora.

Umurima uteyemo ibimera by'ubwoko butandukanye, ni ibimera byifashishwa mu gutegura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye, harimo inkorora, impiswi, inzoka ndetse n'umutwe n'izindi.

Ubwoko bw'ibimera birambitse ku giteme cy'igiti, ni ibimera bikoreshwa mu gutegura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, mu gutegura indwara zigiye zitandukanye. Ibyo bimera kandi ntabwo tubikoresha nk'imiti gusa, ahubwo tunabikoresha nk'ibiryo byo kurya mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Icyapa kiriho ishusho y'umuntu w'umukobwa wambaye umupira w'umukara, kuri icyo cyapa kandi hashushanyijeho ibikarito, bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye, si ibyo gusa kandi kuri icyo cyapa handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ikimera cyitwa umuravumba ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura inkorora, mu kwivura inkorora kandi ushobora gukoresha ikibabi ukagihekenya ukamira amazi yacyo cyangwa se ukacyotsa ku muriro warangiza ukagihekenya, ukamira amazi yacyo.

Icupa ry'umutuku ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, iryo cupa ribitsemo imiti ikomoka ku bimera bifashisha mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa gishushanyijeho amacupa y'ubwoko butandukanye, harimo icupa ry'ubururu n'irindi cupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, icyo cyapa kandi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiriho ifoto y'ibimera by'ubwoko butandukanye bakoresha mu gutegura imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, kuri icyo cyapa kandi hariho ifoto y'ibiganza by'abantu bifashe ku bibabi by'ibyo bimera by'ubwoko butandukanye.